Inama ihuza abayobozi batandukanye mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo bakomeze kuganira ku bibazo bitandukanye abaturage bahura na bo mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse barebe n'ingamba zitandukanye bakoresha kugira ngo babikemure abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Gahunda yashyizweho ku Isi yose yo kwegereza abantu amazi kugira ngo bajye bakomeza kuyifashisha mu mirimo yabo igiye itandukanye, cyane cyane bakomeze kwita ku buzima bwabo birinda indwara ziba zaturutse ku mwanda, bagakoresha aya mazi bakora isuku.

Gahunda yashyizweho ku Isi hose n'ikigo cya world Food Program gifasha abantu kubona ibiribwa bigiye bitandukanye kugira ngo bagabanye ibibazo by'inzara byakwirakwiye ku Isi hose, bifashe abaturage gukomeza kubaho neza nta kibazo cy'inzara.

Gahunda yashyizweho ku isi hose yo kwegereza abaturage amazi, kugira ngo bakomeze kwirinda ibibazo bitandukanye biterwa n'ibara ry'amazi, cyane cyane harimo indwara ziterwa n'umwanda kuko baba babuze amazi yo gukora isuku.

Gahunda yashyizweho mu gihe cy'icyorezo cya Kovidi cumi n'icyenda, yo gutera abantu inkingo kugira ngo igihe icyo cyorezo cyabatatse, umubiri wabo ugire ubudahangarwa bwo kuba barwana n'icyo cyorezo, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inama ihuza abayobozi batandukanye mu bijyanye n'ubuzima, kugira ngo bakomeze kuganira ku bibazo bitandukanye abantu bahura nabyo mu buzima, ndetse barebe n'uko babafasha kubikemura, kugira ngo abantu bose bakomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse birinde n'indwara.

Gahunda yashyizweho yo kwegereza amazi abaturage kugira ngo bakomeze kwirinda ibibazo biterwa no kubura amazi, cyane cyane hakaba harimo indwara ziterwa n'umwanda, kuko baba babuze amazi yo gukora isuku ndetse n'ibindi bibazo byinshi biterwa no kubura ry'amazi.

Gahunda yo kwita ku bana baba bari mu duce dutandukanye tw'igihugu baba barahuye n'ikibazo cy'igwingira. Ni ukuvuga abarwayi bwaki kuko baba bataritaweho mu minsi igihumbi yabo ya mbere bakaba babitaho kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Ibikorwa by'ubuvuzi bitangirwa ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima rusange bw'abana bakivuka kugira ngo batazagira ibibazo mu ikura ryabo bazakure bafite ubuzima bwiza.

Gahunda y'isuku yashyizweho muri rusange mu gihugu, kugira ngo bashishikarize abantu kujya boga intoki, cyane cyane igihe bavuye mu bwiherero ndetse n'ahandi nk'aho, kugira ngo isuku ikomeze guhabwa intebe, ndetse n'ubuzima bwabo bukomeze kurindwa.

Gahunda yashyizweho ku Isi yose mu gihe cy'ikirezo cya covid cumi n'icyenda, aho abantu bapimaga umuriro kugira ngo igihe bafite umuriro ukabije bagana abaganga babihuguriwe bakurikirane ubuzima bwabo barebe niba bataranduye icyo cyorezo.

Gahunda yashyizwe ku isi hose yo kwegereza abaturage amazi kugira ngo abafashe mu mirimo yabo ya buri munsi, cyane cyane ku mpamvu zo kugabanya indwara ziterwa n'umwanda, uba watewe no kubura amazi yo gukora amasuku agiye atandukanye.

Gahunda yashyizweho ku Isi hose aho abantu babihuguriwe bajya mu duce dutandukanye, kugira ngo bakurikirane abana baba bafite ibibazo by'imirire mibi, bakomeze kugira ubuzima bwiza, babafashe kuva mu ibara ry'umutuku bazamuka bajye mu ibara ry'icyatsi.

Gahunda yashyizweho na Uncef yo kugezaho abantu amazi ku isi yose ndetse hagakurikiranwa n'ibikorwa by'isuku kugira ngo abantu bakomeze kwirinda indwara zituruka ku isuku nkeya, hifashishijwe amazi meza ndetse n'ibindi bikorwa.

Gahunda yashyizweho yo gushishikariza abantu kugira isuku, cyane cyane bakajya bibuka gukaraba intoki igihe cyose kugira ngo ubuzima bukomeze gukurikiranwa ku isi hose, abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara zituruka ku mwanda.

Gahunda rusange yashyizweho yo gukurikirana ubuzima bw'impinja, aho abana batoya babatera inkingo z'indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo igihe bazaba barakuze, bazagire ubudahangarwa bwo kurwana n'izo ndwara.

Gahunda yashyizweho ku Isi hose yo kwegereza abaturage amazi kugira ngo ajye abafasha mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane ibijyanye no kwita ku isuku yabo ndetse n'iy'ibiribwa kugira ngo bakomeze kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Gahunda iba mu gihugu cyose mu midugudu igihugu cyose, aho abantu b'abanyabuzima mu midugudu, basura ababyeyi batwite kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bw'abana bakiri mu nda, batazagira ikibazo.

Gahunda rusange yashyizweho yo guhugura abantu bazwi nk'abanyabuzima baba mu midugudu kugira ngo bajye bafasha abaturage kuko aribo baba babegereye cyane, bakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Gahunda yashyizweho yo gukwirakwiza amazi mu mpande zitandukanye z'Isi kugira ngo abantu bakomeze kubona amazi abafasha mu mirimo itandukanye ya buri munsi, ariko nanone ahanini bakomeze kurwanya ibibazo biterwa n'ibura ry'amazi.

Gahunda yashyizweho yo kugeza amazi ahantu hose, cyane cyane mu bigo by'amashuri, kugira ngo abana bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse birinde n'indwara ziterwa ahanini n'umwanda, kuko baba babuze amazi yo gukora isuku.

Ikigo cyo ku isi hose cya Georgia Global Health Alliance, gifasha gukurikirana ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye ku isi yose, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara kugira ngo isi yose ikomeze kubaho neza.

Ikigo gikorera ku isi hose kireba ubuzima bw'abantu, World Health Organization, iki ngiki kikaba gikurikirana ubuzima bw'abantu, kugira ngo abantu bose bo ku isi hose bakomeze kumererwa neza, bafite ubuzima buzira umuze.

Gahunda rusange yashyizweho, aho abantu batandukanye bahabwa inkingo z'ibyorezo biba bitandukanye biba byarabayeho kugira ngo umubiri wabo uhabwe ubudahangarwa bwo kuba bahangana n'icyo cyorezo igihe cyabagezeho.

Inshinge zifashishwa mu gutera abantu inkingo ziba zigiye zitandukanye, kugira ngo umubiri wabo ubone ubudahangarwa bwo kuba warwana n'ibyorezo ndetse n'indwara ziba zigiye zitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Gahunda yashyizweho ku Isi hose yo kwegereza abaturage bose amazi, kugira ngo bajye bayakoresha mu mirimo itandukanye, cyane cyane yo gukurikirana ubuzima bwabo, birinda umwanda kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Gahunda yashyizweho ku isi hose, aho abantu bajya mu duce tugiye dutandukanye kugira ngo barebe abana baba barahuye n'ibibazo by'imirire mibi, babafashe kubazamurira imirire myiza, ndetse banakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi bongere kumererwa neza.

Gahunda yashyizweho yo kwegereza abantu amazi mu duce dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bakomeze kurwanya ibibazo bitandukanye biterwa n'ibura ry'amazi cyane cyane indwara ziba zaturutse ku mwanda kubera ko baba babuze amazi yo gukora amasuku.

Gahunda yashyizweho ku isi hose yo kwegereza abaturage amazi kugira ngo bayakoreshe mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane ibijyanye no gukora isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze, butarimo indwara ziterwa n'umwanda.

Gahunda yashyizweho ku bijyanye n'ubuzima yo gushishikariza abantu koga intoki, cyane cyane bavuye mu bwiherero kugira ngo bakomeze kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, ni ukuvuga bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inama ihuza abayobozi batandukanye b'ibigonderabuzima byo mu gihugu kugira ngo baganire ku buryo bakomeza kwita ku buzima bw'abaturage ndetse bagakomeza gubaha serivisi zinoze kugira ngo ubuzima ndetse n'uburenganzira bwa muntu bukomeze kwitabwaho.

Gahunda yashyizweho yo kwita ku bana bafite ubuzima butameze neza, ni ukuvuga abahuye n'indwara ya bwaki iterwa no kutarya neza kugira ngo bakomeze kwitabwaho bagire ubuzima bwabo bwiza mu minsi igihumbi ya mbere.

Gahunda y'isuku yashyizweho mu gihugu hose, cyane cyane iyo gukaraba intoki kugira ngo abantu biririnde indwara ziva mu mwanda, bakomeze kugira ubuzima bwiza, cyane cyane koga intoki mu gihe bavuye mu bwiherero ndetse n'ahandi hose, kuko imyakada myinshi iba mu ntoki.

Gahunda yashyizweho ku isi yose yo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, aho bashishikariza abantu kwisuzumisha ndetse no kwikingiza kugira ngo imibiri yabo igire ubudahangarwa bwo kuba barwana n'iki cyorezo cya kanseri y'inkondo y'umura.

Gahunda yashyizweho n'ikigo cya Unicef, cyo kwegereza abantu bose amazi kugira ngo bakomeze kwirinda ibibazo biterwa no kubura amazi, harimo nko gukora isuku y'ibiribwa, iy'umubiri ndetse n'andi masuku atandukanye.

Inama ihuza abayobozi bo mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo baganire ku bibazo by'ubuzima biba bihari ndetse barebe n'uburyo babikemura kugira ngo bakomeze gufasha abaturage kubaho neza bafite ubuzima buzira umuze.

Gahunda yashyizweho yo kuganirariza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bakomeze gukurikiranirwa hafi n'abantu babihuguriwe, bibarinde gukomeza kwiheba ndetse no kumva ko bashobora kuba bahejwe muri sosiyete.

Inama ihuza abantu bagiye batandukanye, kugira ngo bakomeze guhabwa amasomo ajyanye n'ibibazo byo mu mutwe, ni ukuvuga ngo bakomeze guhabwa amasomo yuko bakomeza kwita ku buzima bujyanye no mu mutwe, babugeze ku baturage bose bakomeze kwirinda.

Abana bakiri bato bahurizwa hamwe kugira ngo baganirizwe, bakomeze kwirinda indwara zo mu mutwe ziba zaratewe no kuba bamwe muri bafatwa nabi mu ngo zabo ndetse bakaba batanaganirizwa n'ababyeyi babo.

Inama ihuza abantu bakurikirana abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo bahabwe amahugurwa agendanye n'uko bakomeza kubakurikirana, kugira ngo abo bantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, na bo bitabweho nk'abandi bantu badahawe akato.

Inama zihuza abantu bagiye batandukanye kugira ngo bahugurwe ku buryo bakwita ku bana bafite ibibazo byo mu mutwe, bikabarinda kuba bakwiheba ndetse no kugira ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Umuntu ufite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe, buterwa n'ibibazo biba bigiye bitandukanye, akaba akomeza kwitabwaho n'abantu babifitemo ububasha kugira ngo yongere kumererwa neza, adateza ibibazo muri sosiyete.

Indwara zo mu mutwe akenshi ziterwa no kuba abantu barahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwabo, harimo nk'imihangagayiko ikabije ndetse no gutonganywa, uyu nguyu akaba afite agahinda gakabije, nako kakaba karaturutse kuri ibyo bintu.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, usa nabi ndetse ufite ibikoresho bitandukanye bigaragaza ko adafite ubuzima buzira umuze bwo mu mutwe, aba ngaba akenshi bakaba bakurikiranwa n'abaganga babihuguriwe kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ifungurwa ry'ibitaro byita ku barwayi bo mu mutwe, ryafunguriwe mu Karere ka Bugesera kugira ngo bijye bifasha abantu batandukanye bafite ibibazo byo mu mutwe, gukurikiranwa mu buryo bworoshye kugira ngo bakomeze guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Gahunda yashyizweho aho abantu batoranyijwe mu midugudu begera abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo babaganirize, birinde kwiheba kandi bakomeze kubafasha kugira ngo ibibazo byo mu mutwe bigende bigabanyuka.

Ibitaro bitanga ubuvuzi ku bibazo bijyanye no mu mutwe bizwi nk'indera bikaba bifasha abantu bagiye bahura n'ibibazo byo mu mutwe kubakurikiranira hafi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Gahunda rusange yashyizweho yo gukurikirana abantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, kugira ngo baganirizwe kandi bakurikiranwe ntibakomeze kwiheba kandi kugira ngo baborohereze uburwayi bwabo bwo mu mutwe.

Umuntu wahuguriwe kwita ku bantu bafite ibibazo bijyanye no mu mutwe, uri kumuganiriza umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, kugira akomeze kumuhumuriza ndetse amukurikiranire hafi, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inama zihuza abantu bagiye batandukanye kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bahabwe n'amahugurwa yuko bakomeza kwita ku bantu bafite ibyo bibazo, bakareka guhabwa akato muri sosiyete.

Amahugurwa ahabwa abantu baba bagiye batandukanye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira abo bantu bakomeze gufasha abantu bahuye n'ibibazo byo mu mutwe, bareke guhezwa muri sosiyete kandi bakomeze kumva nabo bafite ijambo.

Ubukangurambaga butangwa n'ikigo cya HCR gishinzwe impunzi mu bihugu bigiye bitandukanye, aho bashishikariza abantu baba mu nkambi kwihangira imirimo kugira ngo batazahurana n'ibibazo byo kwiheba bakaba basara.

Inama ihuza abayobozi bo mu bijyanye n'ubuzima baganira ku bibazo byo mu mutwe ndetse bakareba n'uko bakurikirana abantu bafite ibyo bibazo bakabafasha gukomeza kumererwa neza ntibahezwe muri sosiyete.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo aho abantu bafite ibibazo bitandukanye mu menyo yaba aya shiririye, ayavuyemo babafasha gukomeza kuyakurikiranira hafi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bujyanye n'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo aho umuntu ufite ikibazo cy'amenyo agana ivuriro rimwegereye, abaganga babishinzwe kwita ku bijyanye n'amenyo bakamufasha kuba bakuramo ayafite ikibazo, kandi bagakomeza kumukurikirana hafi kugira ngo akire.

Umuganga uri kwita ku mwana ufite ikibazo cyo mu kanwa, aho ari kureba amenyo ye kugira ngoafite ikibazo ayakuremo ndetse akomeze gukurikirana ubuzima bwose bwo mu kanwa, kugira ngo umwana akomeze kumererwa neza.

Ubuvuzi bw'amenyo buhabwa abantu bafite ibibazo bitandukanye by'amenyo, yaba kuyoza kuyabakoreramo ndetse no kubashyiramo utwuma tubafasha kuyatondeka neza, abenshi bazi nk'apareye mu rurimi rw'amahanga.

Abana bakiri bato bakomeza guhabwa amasomo ku kwita ku menyo y'abo bayaborosa neza, kugira ngo bakomeze kuyitaho atazajya ahura n'ibibazo biterwa n'umwanda bigasaba ko akurwamo, aya masomo akaba atangwa n'abantu babihuguriwe.

Ubuvuzi bw'amenyo buhabwa abantu bagiye batandukanye harimo n'abana, aho bajyanwa kwa bamuganga babihuguriwe, bagakurikirana amenyo yabo, ndetse mu gihe afite ikibazo bakabafasha kugikemura, bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Amasomo ahabwa abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ku bijyanye n'uko bakorera isuku amenyo yabo kugira ngo bayarinde indwara ziba zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda w'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo butangwa kugira ngo abantu bagize ibibazo bitandukanye mu menyo yabo, yaba ayashiririye cyangwa se ayavuyemo bakurikiranwe, babahe ubuvuzi bugiye butandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kivurirwamo abana bafite ibibazo by'amenyo, aho bakurikiranwa n'abaganga babifitemo ubuhanga ndetse babihuguriwe, yaba abafite ikibazo cyo koza amenyo, kuyakuramo ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bakabakurikirana kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abuvuzi bw'amenyo, aho abantu bafite ibibazo by'amenyo bitandukanye ni ukuvuga nk'abo aba asa nabi, bagana abaganga bashinzwe ku kuvura amenyo bakabafasha kuyabogereza ndetse yaba ari n'andi afite ikibazo bakayakurikirana.

Amenyo asimbura ayandi baha abantu bagiye batandukanye baba bayifuza kugira ngo bakomeze kugira amenyo atondetse neza mu kanwa, abantu bayifuza bakaba bagana ibitaro bibegereye kugira ngo bahabwe iyo serivisi.

Amasomo atangwa mu bigo bigiye bitandukanye, yaba abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, bigishwa ku buryo bakomeza kwita ku menyo yabo bayagirira isuku, kugira ngo birinde indwara ziterwa no kuba umuntu atakoreye isuku amenyo ye.

Ubuvuzi bw'amenyo, aho abantu bafite ibibazo bitandukanye by'amenyo, bagana ibitaro bitandukanye, kugira ngo yaba abashaka kuyakuramo, ndetse no kuyoza, bahabwe izo serivise, ndetse bahabwe n'utuntu tuborohereza mu kuyoza.

Ubuvuzi bw'amenyo, abana bafite ibibazo bitandukanye by'amenyo, yaba abashaka kuyakura, kuyogesha ndetse n'abandi bagana muganga, akabafasha kubaha ibikoresho bibafasha kuyasukura neza ,kugira ngo birinde indwara z'amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo aho abantu bafite indwara zitandukanye begera abaganga bakabaha amakuru ahagije ku bikoresho bakwifashisha basukura amenyo yabo bitayangiriza, akaba ariyo uyu muntu ari gukoresha kugira ngo yivure.

Abuvuzi bw'amenyo aba abantu bafite uburwayi butandukanye bw'amenyo, bakagana abaganga babihuguriye kugira ngo babakuriremo amenyo afite ibibazo, bakomeze kugira amenyo yandi mazima asigare nta kibazo afite.

Ubuvuzi butangwa bw'amenyo, abantu bafite ibibazo bitandukanye by'amenyo bakurikiranwa, cyane cyane abifuza kuyahinduza, aho badafite amenyo bakabashyiriramo insimbura zazo kugira ngo bakomeze kumererwa neza.

Abaganga bashinzwe gukurikirana indwara z'amenyo, baba bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye abantu bahura na byo, ndetse barebe n'uburyo babafasha kubakurikirana kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amenyo, abantu bafite ibibazo bitandukanye by'amenyo bifuza kuyakuramo bagana n'abaganga babihuguriwe, bagakoresha ibikoresho biba bigiye bitandukanye kugira ngo bafashe umuntu wifuza gukuramo amenyo ukayamukuramo, kandi agakomeza kumera neza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane iz'amenyo, abantu bafite amenyo agiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, byaba ibyo kuba asa nabi, ibyo kuba yaravuyemo cyangwa se agerekeranye, bakurikiranwa n'abaganga babifitemo ubuhanga bakabikemurirwa.

Uburyo bwo kwita ku menyo hifashishijwe agakoresho gatangwa n'abaganga, aka ngaka kakaba gafasha gukura imyanda mu menyo mu buryo bworoshye kandi amenyo agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga bakurikirana abantu ku ndwara zijyanye n'amenyo kugira ngo bakomeze kwihugura ku buryo bakomeza kuvura abarwayi neza, bakabafasha gukira.

Gahunda yashyizweho yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru bakoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kwirinda ibibazo bitandukanye, harimo nko kwiheba, kuba inkingo zabo zarekera gukora bakaba bagira ubumuga bitandukanye ndetse n'izindi ndwara.

Umuntu ugeze mu zabukuru bigaragara ko ingingo ze zo mu maguru zitagikora neza ku buryo atagishobora kugenda, wahawe icyuma kimufasha gukora ingendo zitandukanye, ari nako akomeza gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo yongere kumererwa neza.

Gahunda yashyizweho yo kwita ku bantu bagezwe mu zabukuru, aho bahabwa serivise z'ubuvuzi ndetse no kubapima indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kabone n'iyo baba bageze mu za bukuru.

Gahunda yashyizweho yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bitabwaho n'abantu babihuguriye bakiri batoya, kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo hafi, bibarinde kwiheba ndetse no kuba bahura n'indwara zigiye zitandukanye.

Kwita ku bageze muzabukuru bahabwa imiti igiye itanduye, ndetse bagakomeza gukurikiranirwa hafi kugira ngo babarinde bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, kandi birinde ko bagira ibibazo byo mu mutwe.

Umusaza ugeze mu zabukuru, uri kwitabwaho n'abana bakiri bato muri gahunda yashyizweho yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, bahabwa serivisi zitandukanye, nk'imyitozo ngororamubiri, kubafasha gufata imiti ndetse n'ibindi, kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Gahunda yashyizweho yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, aho bahabwa serivisi zigiye zitandukanye, nko kubakorera ingingo, gukurikirana ubuzima bwabo babaha imiti ndetse no kubaganiza kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuzira umuze.

Gahunda yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru aho bahabwa imiti igiye itandukanye ku ndwara baba bafite ndetse bakaborohereza babereka n'uburyo bazajya bayinywa kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo bamererwe neza.

Umuntu ukiri muto uri kwita ku muntu ugeze mu za bukuru, bigaragara ko adafite ububasha bwo kugenda ko yicaye mu kagare kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ajye amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Kwita ku bageze mu zabukuru baba bategurira ibyo kurya birimo imboga ndetse n'imbuto, kugira ngo bikomeze kubafasha kumererwa neza bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse bibarinde n'indwara zaba zigiye zitandukanye bahura nazo kubera gusahaza.

Umuntu ugeze mu zabukuru uri kwitabwaho n'umuntu ukiri mutoya babihereye ubumenyi amuha imbuto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, harimo n'imiti kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo ugeze mu zabukuru witabwaho n'umuntu ugifite imyaka mikeya kugira ngo akomeze gukurikiranira hafi ubuzima bwe, akomeze kumera neza kabone n'ubwo aba ageze mu zabukuru, bimurinde kuba yagira ibibazo bitandukanye harimo n'ibyo kwiheba.

Gahunda yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, babafasha mu kubagorora ingingo zabo, kubaha imiti ku ndwara baba barwaye ndetse no kubaganiriza kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi birinde kuba bagira ikibazo cyo kwiheba.

Gahunda yo kwita ku bantu bageze mu za bukuru babafasha kugorora ingingo zabo mu gihe ziba zaratangiye kugabanya ubushobozi bwabo bwo gukora ndetse bakabafasha no mu bundi buzima bwabo busanzwe kugira ngo bakomeze kumererwa neza.

Kwita ku bageze mu za bukuru, babakoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo ingingo zabo zikomeze gukora neza ndetse n'ubuzima bwabo bukomeze kumera neza muri rusange kandi zibarinde kuba bahura n'indwara ziba zigiye zitandukanye baterwa no gusaza.

Umuntu ukiri muto uri kwita ku muntu ugeze mu zabukuru amufasha gutembera, bakora imyitozo ngororamubiri gake gake ndetse banaganira kugira ngo uyu muntu ugeze mu zabukuru akomeze kumva ameze neza kandi agire ubuzima bwiza.

Gahunda yo kwita ku bantu bageze mu zabukuru, aho abaganga babihuguriwe bita ku bantu bageze mu za bukuru babakoresha imyitozo ngororamubiri ndetse bakabipima n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kandi bakabagezaho imiti ivura izo indwara kugira ngo bakomeze kumera neza.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri kumwe n'umwana ucyiri mu cyigero gitoya kugira ngo bakomeze kwishimana bakinana, kugira ngo bifashe umuntu ugeze mu za bukuru gukomeza kumererwa neza kandi yishime.

Umuntu uri kwita ku mubyeyi ugeze mu za bukuru, amugaburira ibiryo birimo imbuto ndetse n'imboga kugira ngo akomeze kumererwa neza. Ingingo ze zikomeze gukora neza ndetse ubuzima bwe muri rusange bukomeze kumera neza.

Umuntu ugeze mu zabukuru, utagishoboye kwiyitaho, uri kwitabwaho n'umuntu ukiri mutoya, kugira ngo amufashe gufata imiti aba yarahawe na muganga, akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse bibe byamurinda guhura n'indwara zirimo kwiheba.

Ingamba zishyirwaho kugira ngo abantu bakomeze kwirinda ibigeragezo bigiye bitandukanye, harimo Malariya, SIDA ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, birinda ibyo byorezo byose.

Ingamba zishyirwaho z'ubutabazi bw'ibanze buhabwa abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye baba abari mu kazi cyangwa se mu yindi mirimo igiye itandukanye, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze gukurikiranirwa hafi batagira ibindi bibazo bikabije.

Ingamba zishyirwaho zo gushishikariza abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu kuko kivugwa kigakira, bikaba binyuzwa mu bahanzi bagiye batandukanye kubera ko abantu benshi baba bakunda imyidagaduro, kumva indirimbo rero bikaborohera kugira bumve izo ngamba.

Ubuvuzi rusange butangwa ku isi hose, aho abantu bagiye batandukanye baterwa inkingo z'icyorezo kiba cyaragaragaye, kugira ngo bahabwe ubushobozi bwo kuba umubiri wabo warwana n'icyo cyorezo mu gihe cya batatse.

Ingamba zashyizweho zo gushishikariza abantu, kugira ipanga mu muryango ku buryo bagabanya umubare w'abana babyara, bakabyara abana bashoboye kurera kugira ngo bakomeze gutera imbere ndetse n'igihugu gitere imbere muri rusange.

Inama zihabwa abagore batwite ndetse n'abandi bose kugira ngo bamenye ibintu byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana uri mu nda ndetse no kuvamo kw'inda kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'abana bari munda bagira ubuzima bwiza.

Inama ihuza abayobozi batandukanye mu bijyanye n'ubuzima kugira ngo baganire ku byorezo biba bihari ndetse n'uburyo bakomeza gukurikirana ubuzima bw'abaturage muri rusange, babaha serivisi zinoze kandi bakabaha n'ubuvuzi ku ndwara baba bafite.

Ingamba z'ubwirinzwi zishyiraho kugira ngo ibyorezo bigiye bitandukanye bikomeze kurwanwa kandi abantu bahabwe ubudahangarwa, ni ukuvuga urukingo kugira ngo icyo gihe icyorezo cyabagezeho bagire ubushobozi bwo kuba barwana nacyo.

Umunsi washyizweho wahariwe kurwanya icyorezo cya virusi itera SIDA, ukaba warashyizweho n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyane cyane bashishikariza urubyiruko gukomeza kuyirwanya kuko aribo hazaza h'igihugu.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda minisita ofu helifu gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu muri rusange bagakurikirana ibijyanye n'imiti ubuziranenge bwayo kugira ngo igirire akamaro abaturage.

Ingamba zishyirwaho na leta, mu gihe hagaragaye icyorezo gitunguranye mu gihugu kugira ngo abantu bakomeze kubyirinda, kitaza gukwirakwira mu baturage bose, ni ukuvuga bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ingamba zashyizweho n'ikigo cy'ubuzima cya RBC cyo mu Rwanda, mu gihe cy'icyorezo cya Corona virus, kugira ngo abantu bakomeze kwirinda icyo cyorezo, kandi birinde no kugikwirakwiza, igihe bagize impanuka bakacyandura ni ukuvuga abantu bagakomeze kugira ubuzima bwiza.

Urubyiruko rw'abana b'abakobwa bahurizwa hamwe kugira ngo bahabwe amahugurwa ku buzima bw'imyororokere ndetse n'aho bihutiregeza ku bandi kugira ngo abakobwa muri rusange bakomeze kumenya ubuzima bwabo ndetse n'uko babukurikirana.

Gahunda yashyizweho yo gukurikirana ubuzima bwiza bw'abantu, bapima ibyorezo bitandukanye, harimo nk'icyorezo cy'ubushita buzwi nka Monkeypox, kugira ngo barebe uburyo babakurikiranira hafi abantu bakirwaye.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye babagana, aha ngaha hakaba ari ku gice bakiriramo abana barwaye kugira ngo bakurikiranwe, bavurwe indwara barwaye zikire.

Ikigo cya Ircad Africa gifite icyicaro cyacyo mu Rwanda kikaba gitanga amahugurwa ndetse n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ububazi bikaba biharwa abaganga babihuguwe kugira ngo bazaze bite ku baturage.

Ibitaro bya Nyarugenge, bitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abana bafite indwara zitandukanye bahagana kugira ngo abaganga babihuguriwe babakurikirane, bongere kwigira ubuzima bwiza, ni ukuvuga buzira umuze.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aha ngaha akaba ari mu gihe cya covid nineteen, aho abaganga babaga bagiye gukurikirana abarwayi babaga bikingiye cyane kugira ngo batandura icyo cyorezo ariko na none ntibihindure ko bagomba kuvura abarwayi bakongera kumererwa neza.

Amahugurwa ategurwa kugira ngo ahabwe abantu bakora mu bijyanye n'ubuzima cyane cyane abaganga kugira ngo bakomeze kureba ibitera malariya ndetse barebe n'uko bayirwanya kugira ngo hagabanuke umubare w'abantu bicwa na malariya.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku gice cyaho bita kuri ucemu abantu bakorera imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye kugira ngo bakomeze gukomeza ingingo zabo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Ku kigo nderabuzima aho bakoze inzira abantu bafite ubumuga bakomeza kunyuramo kugira ngo bitabagora ngo bagere aho babavurira ndetse naho abana bashobora kwidagadurira mu gihe bari mu bitaro kugira ngo bakomeze kumererwa neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye babagana kugira ngo babakurikirane babahe imiti igiye itandukanye ndetse babahe n'izo serivisi z'ubuvuzi baba bakeneye kugira ngo bongere kumererwa neza.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi aho abantu batandukanye bagiye bafite indwara zigiye zitandukanye bahagana kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo, izo ndwara baba bagiye bafite zivurwe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aha ngaha akaba ari kuri laboratwari bapimiramo ibijyanye n'ibyorezo bya malariya ndetse n'izindi ndwara abantu bafite kugira ngo bakurikiranire ubuzima bwabo hafi.

Inzu zitangirwarwemo serivisi z'ubuvuzi, aho ziba zigizwe n'ibice bitandukanye, haba aho kuruhukira, haba aho bapimira ibibazo bigiye bitandukanye n'ukuvuga muri ecography. Aho batangira imiti ndetse n'ibindi byumba bigiye bitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abaganga babifitemo ubumenyi ndetse babihuguriwe bahahurira ndetse n'abantu bifuza kuvurwa bakabagana kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi bifuza.

Umuganga wabihuguriwe uri mu nyubako yagenewe kugira ngo ijye yakirirwamo abarwayi, aho ari ku mashini kugira ngo arebe ibizamini bitandukanye by'abarwayi baba batanze kugira ngo barebe indwara bafite, bamenye uko babakurikirana.

Umuganga utanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho yita ku barwayi bamugannye barwaye indwara zitandukanye, akabafasha kubakurikirana, akamenya indwara barwaye ndetse akabaha n'imiti ibakiza kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ikigo cya Isange one stop center cyakira abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo bakurikiranwe, bakomeze gufashwa kandi bashakirwe ubutabera kugira ngo batagira ibibazo by'ubuzima.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo kugorora ingingo z'abantu baba bagize ibibazo bitandukanye by'ubuzima kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, ni ukuvuga ingingo zabo zikore neza, ubuzima bwabo buzira umuze.

Ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera, aho bifasha abantu bahuye n'indwara zigiye zitandukanye, kubakurikirana bikaba bikorwa n'abaganga b'inzobere baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bw'abantu.

Icyumba cyakirirwamo abantu bagiye guca mu cyuma kizwi nka scanner mu rurimi rw'amahanga kugira ngo barebe bimwe mu bice byabo by'umubiri ko nta kibazo gifite bakurikiranwe n'abaganga b'inzobere baba biteguye kubavura.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho bakira abantu babagannye, bakabafasha kumenya serivisi bashaka ndetse bakanabaha ubwo bufasha baba bakeneye kugira ngo bakomeze bakurikirane ubuzima bwabo.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku gice cyaho hari ibyuma abantu bafite ibibazo mu ngingo bagana kugira ngo bahakorere imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ngo ingingo zabo zibe zagarura akabaraga bamererwe neza.

Icyumba cyakirirwamo abarwayi mu nzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga babihuguriwe, indwara barwaye zikurikiranwe, bavurwe, bongere gusubura mu buzima bwo hanze bameze neza.

Inzu zubakiwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi mu cyumba cyakirirwamo abarwayi kugira ngo bapime indwara ziba zigiye zitandukanye ndetse bakurikiranwe n'abaganga babihuguriwe kugira ngo bakire izo ndwara.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi ku gice cy'aho bakirira abarwayi kugira ngo bakomeze gukurikiranirwa hafi n'abaganga babifitemo ubuzobere, indwara barwaye zikurikiranwe ndetse babashe no kuvurwa n'abo baganga.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho umwana ukiri mutoya yagannye muganga kugira ngo akurikirane ubuzima bwe akomeze kumererwa neza, ni ukuvuga indwara arwaye zivurwe yongeye kugira ubuzima buzira umuze.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite ibibazo bitandukanye by'indwara, bahagana kugira ngo babahe izo serivisi, bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo hafi kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ikigo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zitandukanye bahakirirwa n'abaganga babihuguriwe kugira ngo babakurikirane bamenye ibibazo bafite mu mibiri yabo, ndetse babahe n'imiti ikomeza kubafasha kumererwa neza.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi , ku gice cy'aho abaganga basuzumira, ibice bitandukanye by'umubiri w'umuntu bacishije mu cyuma kizwi nka echographie mu rurimi rw'amahanga, kugira ngo bamenye ikibazo afite akurikiranwe avurwe.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, mu cyumba aho abantu bari gukurikiranwa n'abaganga babifitemo ubushobozi bashyirwa kugira ngo bategereze guhabwa serivise z'ubuvuzi bongere kumererwa neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, aho abana bafite ibibazo bitandukanye ku buzima bwabo, bahagana kugira ngo ubuzima bwabo bukurikiranwe, indwara barwaye bazibavure kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye babagana kugira ngo abaganga babiherewe ubumenyi bakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi, babahe n'imiti igomba kubakiza bakongera kumererwa neza.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima bwabo, bafite indwara ziba zigiye zitandukanye, babagana kugira ngo ubuzima bwabo babukurikirane, bakomeze kumererwa neza.

Ku kigo nderabuzima ku gice cy'inzu bakiriramo ababyeyi batwite kugira ngo babakurikirane, bababyaze abana ndetse bakomeze no kubakurikiranira hafi, kugira ngo yaba umwana ndetse n'umubyeyi wabyaye batagira ikibazo nta kimwe bahura na cyo.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aha ngaha akaba ari aho abaganga bahurira kugira ngo bakomeze gukurikirana ibizamini bitandukanye by'abarwayi, bareba indwara ziba zitandukanye, yaba mu maraso yabo, mu misarane yabo, mu nkari zabo ndetse n'ibindi kugira ngo abone uko bakurikirana ubuzima bwabo.

Inyubako yubatswe kugira ngo ijye itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara ziba zigiye zitandukanye bahagana kugira ngo bakirwe n'abaganga babihuguriwe kandi babifitemo ubumenyi, bakurikirane indwara zabo babafashe kubavura babakize.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ingingo z'abantu zagiye zihura n'ibibazo zigiye zitandukanye zikurikiranwe n'abaganga babifitemo ubuhanga aba bantu bongere kumererwa neza.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abana bafite indwara zigiye zitandukanye bahagana, kugira ngo abaganga babifitemo ubuhanga, bakurikirana ubuzima bwabo ndetse babahe n'imiti ishobora kubakiza, bakongera bakamera neza, bakagira ubuzima buzira umuze.

Ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bizwi nko kwa Nyirinkwaya bikaba biganwe na benshi bifuza serivisi zitandukanye zo kuvurwa kugira ngo ubuzima bwabo bakomeze kubukurikiranira hafi bumere neza.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku gice cyaho bakiriraho ababyeyi batwite ndetse n'abenda kubyara, kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga babihuguriwe baze kubyara neza, umubyeyi wabyaye ndetse n'umwana bose bakomeza kumererwa neza.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye bakahagana kugira ngo abaganga bafitemo ubuzobere bakurikirana ubuzima bwabo babafashe kongera gukira bagire ubuzima bwiza muri rusange.

Iduka ricururizwamo imiti igiye itandukanye rizwi nka farumasi mu rurimi rw'amahanga, aho abantu bafite indwara ziba zigiye zitandukanye bahagana kugira ngo bagure imiti bakeneye, bakaba bakoreramo abaganga baba barabihuguriwe.

Ikigo nderabuzima giherereye mu murenge wa Gisenyi, gihurirwamo n'abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima, kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga babihuguriwe, babafashe kubakurikirana bavurwe kandi bakire.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga amaraso kugira ngo bifashe abantu bafite amaraso make guhabwa serivisi yo kongererwa amaraso kugira ngo indwara barwaye bakomeze kuzikurikirana bakira bagiye kumererwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ku buzima bwabo, bahagana kugira ngo bakurikiranwe, bahabwe ubuvuzi, ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza ya.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi abana bafite indwara zigiye zitandukanye bahagarara kugira ngo ubuzima bwabo bukurikiranwe ku gice bakiriraho abagore batwite, kugira ngo babafashe kubyara ndetse bakurikirane abana babo.

Ikigo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bagize ibibazo byo kuba baranyweye ibiyobyabwenge byinshi, bahatwarwa kugira ngo babibagabanyemo ndetse bakomeze no kubagira inama kuko bakurikirana ubuzima bwabo badakoresheje ibiyobyabwenge.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku gice cy'aho babika amaraso agiye atandukanye abantu baba batanze, kugira ngo azafashe abantu bazaba bagize ibibazo byo kubura amaraso, bakeneye kuyongerwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inzu yateganyijwe kugira ngo abantu bafite indwara ziba zigiye zitandukanye bahagane ndetse mu gihe bidashobotse ko bataha mu rugo, baharyame kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga mu buryo bworoshye babavure bakire.

Ibigo nderabuzima biba mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, aho abantu bagana mu gihe bafite indwara zigiye zitandukanye, yaba iz'amenyo, izo mu ngingo, ndetse n'ababyeyi bagiye kubyara kugira ngo bafashwe n'abaganga babizobereyemo.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku cyumba babagiramo abantu kizwi nka surgery room cyangwa emergency room mu rurimi rw'amahanga, aho bakurikirana abantu bafite ibibazo bitandukanye kandi bakabafasha kubibakemurira.

Ikigo nderabuzima aho abantu bafite ibibazo by'uburwayi bugiye bitandukanye babagana, kugira ngo abaganga babifitemo ubuhanga bafashe, aha akaba ari ku nzu y'ababyeyi babyariramo izwi nka materinite bakaba bakiri ababyeyi batwite mu gihe bagiye kubyara.

Inzu zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zitandukanye babagana kugira ngo abaganga babihugugu bakurikirane ubuzima bwabo, bavure indwara bafite bongeye kumererwa neza, bagire ubuzima buzira umuze.

Ibitaro bya Nyarugenge, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye bahagana kugira ngo abaganga babiherewe ubumenyi bakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi, babavure ndetse babahe n'imiti ikomeza kubafasha kumererwa neza.

Inzu zitangirwamo gahunda y'ubuvuzi aho abana bafite indwara zigiye zitandukanye bacishwa mu cyuma abenshi bazi nka sikaneri kugira ngo barebe indwara bagiye bafite kandi babashe kuzikurikirana bavurwe.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, ku gice cyaho bacisha abantu mu cyuma, kizwi nka sikaneri mu rurimi rw'amahanga kugira ngo barebe ibibazo bitandukanye biri mu mubiri we kandi barebe uburyo babikurikirana kugira ngo bamufashe kumera neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye bahagana, bakakirwa n'abaganga babifitemo ubuhanga, bagakurikirana ubuzima bwabo kugira ngo indwara barwaye bahabwe imiti ibafasha kuborohereza ndetse no kubakiza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima aho abantu bafite ibibazo by'uburwayi bagana kugira ngo bitabweho bahabwe imiti n'izindi serivisi z'ubuzima bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye babagana kugira ngo babafashe babakurikirane, aho abaganga babifitemo ubuzobere babavura indwara barwaye bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku gice cy'aho bapimira abantu mu mubiri wabo ibibazo birimo, abenshi bazi nka sikaneri; icyuma bagucishamo kugira ngo barebe ibice byawe byose by'umubiri bamenye uko bagukurikirana.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, babagana kugira ngo bahabwabwe izo serivisi, aha ngaha akaba ari ku gice ababyeyi bafite inda ndetse n'abafite impinja bagana.

Icyigo nderabuzima cyegerejwe abaturage gitangirwaho serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye, zaba iz'amenyo, iz'amaso ndetse n'izindi serivisi zihabwa abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye, kugira ngo bakurikiranwe bakire.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo icyuma cyo guterura kugira ngo abantu bakomeze amagufa yo mu maboko, amazi yo kunywa, imbuto zitandukanye barya nyuma y'imyitozo ngororamubiri, ndetse na metero ifasha abantu bari imyitozo ngororamubiri gupima ibintu bari gukoresha.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ariko anywa n'amazi kuko gukora imyitozo ngororamubiri unywa n'amazi byuzuzanya, kugira ngo ukomeze kwirinda indwara zigiye zitandukanye kandi ukomeze kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Igikoresho kizwi nka blankal mu rurimi rw'amahanga, gifasha abantu gutwara abantu bagize ibibazo nk'iby'umugongo batagishoboye kugenda, kugira ngo babafashe gukurikirana ubuzima bwabo, babageze aho bahabwa ubufasha.

Ibikoresho byifashishwa mu kwita ku buzima, ari ibyo kwifashisha mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyo guterura iminzani ndetse n'ibindi, hakaba hari n'amazi yo kunywa kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'imbuto kugira ngo nabwo ukomeza kugira ubuzima bwiza.

Imbago zihabwa abantu bafite ibibazo mu ngingo badashoboye kugenda kugira ngo zibafashe kuba bashobora kugenda mu gihe batari bakira neza kandi zikaba zibafasha gukomeza gukira ingingo zabo zikongera gukomera.

Insimburangingo zihabwa abantu bagize ibibazo mu maguru batagishobora kugenda, kugira ngo bijye bibafasha kuborohereza gukora ingendo zigiye zitandukanye, kuko izi nsimburangingo zisimbura amaguru baba barabuze.

Amazi akinerwa n'abantu bagiye batandukanye cyane cyane bari mu myitozo ngororamubiri, bukabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bikabarinda n'indwara ziba zigiye zitandukanye bashobora guhura nazo, harimo nk'impyiko, umuvuduko ndetse n'izindi.

Ubutabazi bw'ibanze ni ukuvuga fast eid buhabwa abantu baba bahuye n'ibibazo bitunguranye urugero nk'abakinnyi bari mu kibuga ubu butabazi bw'ibanze bukaba butangwa n'abantu babihuguriwe babifitemo uburambe.

Ibibazo bitandukanye by'umubiri umuntu ahura nabyo, bishobora gukemurwa n'imyitozo ngororamubiri, harimo nko kuribwa umutwe, kuruka, kugira isereri, kumva unaniwe buri gihe, ndetse no kumva wishwe n'agahinda.

Umuntu wagize ikibazo cyo mu ngingo, urimo gukurikiranwa n'umuganga wabihuguriwe ndetse ubifitemo ubumenyi kugira ngo akomeze kumukurikiranira hafi, ingingo ze zongere gukora neza, ni ukuvuga agire ubuzima bwiza

Imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bakomeze kwivura, no kuvuga ingingo zabo zikomeza gukora neza ndetse bakwirinda n'izindi ndwara zituruka mu kuba ingingo zabo zidakora neza.

Imyitozo ngororamubiri iri gukorwa n'umuntu ndetse anywa n'amazi kuko byose byuzuzanyije, bikomeza gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse n'indwara zitandukanye afite zigakira, agakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, cyane cyane mu gihe abantu bagize ibibazo by'impanuka kugira ngo bikorere ubutabazi bw'ibanze bakomeza kugira ubuzima bwiza, harimo nk'ibipfuko ndetse n'ibindi bikoresho.

Imiti ikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye mu gihe cya siporo kugira ngo bakomeze kugira imibiri imeze neza ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza muri rusange buzira indwara, ni ukuvuga buzira umuze.

Igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, bakaba bacyambara mu kaguru, kugira ngo gifashe umuntu gukomeza gufata amagufa ye ndetse n'ikindi gice cyo mu kaguru, kugira ngo ataza kugira ikibazo mu ngingo ze.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye, baba abifuza kugabanya umubyibuho, abifuza ko ingingo zabo zikora neza, ndetse n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, kugira ngo ubuzima bwabo bakomeze kubukurikirana, bakomeze kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa yaba mu myitozo ngororamubiri, mu butabazi bw'ibanze abenshi bazi nka ''fasiti eyidi'', mu rurimi rw'amahanga ndetse n'imiti igiye itandukanye yifashisha abantu mu kwivura indwara zitandukanye harimo n'ibisebe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ndetse arimo kunywa n'amazi, akaba yambaye icyuma kimufasha kubara isaha ku kaboko kugira ngo amenye igihe yiruka ndetse akomeze no kugira ubuzima bwiza buzira umuze ni ukuvuga butagira indwara.

Ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamuco, aho abantu bagiye bagira ibibazo mu ngingo, bakurikiranwa kugira ngo ingingo zabo zongere kumera neza kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu bagiye bahura n'ibibazo mu ngingo zabo bakurikiranirwe hafi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, n'ukuvuga ingingo zabo zikomeze gukura neza.

Ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu bagize ibibazo byo kuvunika ingingo zabo, bazikurikirane, zongere gukora neza ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange, bakomeze kumera neza.

Ni imyitozo ngororamubiri, ikoreshwa mu bantu bahuye n'ibibazo mu ngingo zabo kugira ngo bakomeze kumera neza mu ngingo zabo, ibi ngibi bakaba babikoreshwa n'abaganga babifitemo ubuhanga babihuguriwe, bakurikirana ubuzima bwabo.

Ubuvuzi rusange butangwa aho abantu bagiye batandukanye bakeneye amaraso bari mu duce dutandukanye, basaba ubufasha ku bindi bitaro bakaboherereza amaraso bakoresheje uburyo bworoshye bwa dorone bakayabagezaho.

Ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamubiri, aho abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye mu ngingo zabo ndetse n'abashaka kugabanya bimwe mu bice byabo by'umubiri, bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

ubuvuzi bujyanye n'imyitozo ngororamubiri, akenshi bihabwa abantu bahuye n'ibibazo by'impanuka, kugira ngo ibice byabo by'umubiri byagiye byangirika bisubire ku murongo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ufite ubumuga mu ngingo ze uri guhabwa imyitozo ngororamubiri, ijyanye no gukina umupira kugira ngo ingingo ze zikomeze gukomera kugira ngo azabashe gukomeza kugenda noneho atifashishije ibikoresho bitandukanye.

Ubuvuzi butangwa hifashishijwe imyitozo ngororamubiri, aho abantu bagize ibibazo mu ngingo zabo n'abandi bashaka serivisi zijyanye no kugabanya bimwe mu bice by'umubriri byabo harimo nk'inda, babagane kugira ngo bahabwe izo serivisi, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane abafite ibibazo mu ngingo zabo, kugira ngo ingingo zabo zongere gukora neza, ni ukuvuga bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu imyitozo ngororamubiri, harimo imigozi yo gusimbuka, ibyuma bakurura, ndetse n'ibiribwa bafata nyuma y'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abantu bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi, bamererwe neza.

Imyitozo ngororamubiri harimo imikino yo kwirukanka, imikino y'amaboko, imikino y'amaguru ndetse n'iyo gusimbuka, abantu bakora kugira ngo bakomeze kurinda imibiri yabo indwara zitandukanye.

Kwivura indwara hifashishije imyitozo ngororamubiri itandukanye, yaba iyo gukina imikino y'amaboko, iy'amaguru, kwiruka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu muri rusange bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri imufasha gukomeza kugorora ingingo ze kandi agakomeza kugira ubuzima bwiza, ni ukuvuga agakomeza kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kuba umuntu atakoze imyitozo ngororamubiri ingingo ze zitari gukora neza.

Umwana ukiri muto ukurikiranwa n'umuganga kugira ngo amenye ikibazo yaba afite cyo mu maso ndetse akomeze no kwitabwaho avurwe, icyo kibazo cye gikemuke yongere kumererwa neza.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibimera gakondo, harimo ibitunguru, tungurusumu, imyumbati, insenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo bifashe abana bahuye n'indwara zigiye zitandukanye, kubyifashisha kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umuti wateguwe hifashishijwe ikimera gakondo abenshi bazi nk'umuravumba, uyu nguyu ukaba ufasha gukiza indwara zigiye zitandukanye harimo umutwe, mu nda ndetse n'izindi ndwara abantu bahura na zo, bakaba bawivurisha kugira ngo bongere kumererwa neza.

Imiti gakondo abantu bifashisha kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye ndetse no mu gihe bazirwaye, bazivure kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, ni kuvuga ubuzima buzira umuze.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibyatsi gakondo, iyi miti ikaba ifasha kwivura indwara zitandukanye, hakaba harimo imineke, amananasi, ikawa ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha abantu gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti gakondo, harimo insenda, ibitunguru, tungurusumu, imiravumba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti ifasha abantu kwivura indwara.

Amavuta yateguwe hifashishijwe ikimerara kizwi nk'igikakarubamba, aya mavuta akaba afasha abantu kwivura indwara zitandukanye z'uruhu, ndetse bagakomeza kumererwa neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikimera cy'umuravumba cyifashishwa mu gutegura imiti igiye itandukanye, iyo miti ikaba yifashishwa n'abantu bahuye n'indwara zitandukanye harimo nk'umutwe, mu nda, rubagimpande ndetse n'izindi kugira ngo bongere kumererwa neza.

Ibimera gakondo byifashishwa mu ku kuvu indwara zigiye zitandukanye, ibi bimera hakaba harimo, igikakarubamba, imiravumba ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti ifasha abantu kwivura indwara zitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibimera bitandukanye harimo icyayi, ibingi bikaba bifasha abantu kwivura indwara zitandukanye, harimo nko kubura ibitotsi, kunanirwa bikabije ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye bafite indwara zitandukanye kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo, iyi miti bakaba bakunda kuyizera kuko baba barayikoresheje kuva kera kandi bayizeye neza cyane kurusha imiti ya kizungu.

Imiti itandukanye yifashishwa hifashishijwe ibimera gakondo harimo ibikakarubamba, aya ngaya akaba afasha abantu kwivura indwara zigiye zitandukanye baba bafite kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'ikimera kizwi nk'umuravumba, kikaba kifashishwa mu gutegura imiti igiye itandukanye, yifashishwa n'abantu barwaye indwara zitandukanye, kugira ngo bakomeze kumererwa neza bivure indwara baba bahuye na zo.

Imiti ya gakondo yifashishwa n'abantu bafite indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo bivure izo ndwara bafite, akenshi bakaba bayikoresha kuko iba yizewe kuko baba baratangiye kuyikoresha mu bihe bya kera.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gutegura imiti igiye itandukanye, ibi bimera hakaba harimo tungurusumu, tangawizi, imiravumba, ibitunguru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha abantu kwivura indwara baba bahuye na zo.

Imiti gakondo itegurwa hifashishijwe ibimera ndetse n'ibindi bintu gakondo, uyu ukaba warateguwe hifashishijwe ubuki abantu bagakoresha uyu muti bivura indwara zitandukanye bahura nazo mu buzima bwabo.

Isabune zifasha kuvura indwara z'uruhu, izi sabune zikaba zitegurwa hifashishijwe ibimera bitandukanye, harimo avoka ndetse n'igikakarubamba kugira ngo bifashe abantu bahuye n'indwara z'uruhu, kuba bakwivura, bakongera kumererwa neza.

Umuti usukura amenyo wateguwe hifashishijwe ibimera gakondo, ari byo igikakarubamba, uyu muti ukaba utangiza amenyo, abana ndetse n'abantu bakuru bose bawukoresha ndetse ukaba ufasha n'amenyo gukomera ndetse no kuba umweru.

Igiti abenshi bazi nk'inturusu, iki ngiki kikaba gifasha abantu kwivura indwara zigiye zitandukanye bahura na zo mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo ibicurane ndetse n'izindi zitandukanye, abenshi bakaba baracyifashishije mu gihe cy'icyorezo cya covid nineteen.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibimera bigiye bitandukanye, harimo ibikarubamba, pome, inkeri ndetse n'ibindi bimera gakondo, iyi miti ikaba ifasha abantu kwivura indwara ziba zigiye zitandukanye baba bahuye nazo.

Imiti gakondo itegurwa hifashishijwe ibyatsi gakondo bitandukanye, kugira ngo ifashe abantu bahura n'indwara ziba zigiye zitandukanye kwivura, ni ukuvuga bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ubuvuzi gakondo bukorwa hifashishijwe ibikoresho byakirara harimo isenda, imyumbati ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye harimo n'amahembe kugira ngo abantu bivure indwara zose zitandukanye baba bafite.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibimera gakondo, iyi miti ikaba ifasha abantu kwivura indwara ziba zitandukanye baba bahuye na zo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye.

Amazi arimo imiravumba, aya mazi akaba afasha abantu kwivura indwara ziba zigiye zitandukanye harimo inzoka, umutwe ndetse n'ibindi, kugirango bakomeze kugira ubuzima bwiza birinde indwara.

Imiti itegurwa hifashishijwe ibimera gakondo, harimo ibikakarubamba ndetse n'ubuki, ibi ngibi bikaba bifasha mu gutegura imiti ifite ubudahangarwa, ifasha abantu kwivura indwara ziba zitandukanye baba bahuye nazo.

Imiti gakondo ikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye mu buvuzi bugiye butandukanye, kugira ngo bakomeze kwirinda indwara ziba zigiye zitandukanye bahura nazo mu buzima bwa buri munsi, bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ibimera bitandukanye harimo soya, ibitoki, imiravumba ndetse n'umwenya, ibi bikaba byifashishwa mu gutegura imiti igiye itandukanye, ifasha abantu kwivura indwara ziba zigiye zitandukanye, baba bahuye nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bongere kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bwabo, kuko akenshi ariyo baba bizeye, kuko bakundaga kuyikoresha kuva kera, iyi miti ikaba ifasha abantu, gukira indwara zigiye zitandukanye.

Ubucuruzi bw'imiti gakondo igiye itandukanye itegurwa hifashishijwe ibimera bigiye bitandukanye, aho abana bafite indwara zitandukanye bayigura kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo bwa buri munsi bakomeze kumererwa neza bagire ubuzima buzira umuze.

Ikimera kizwi nk'umuravumba, iki kikaba cyifashishwa n'abantu bafite indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bakurikirane ubuzima bwabo, bivura izo ndwara, bongere kugira ubuzima bwiza, izo ndwara hakaba harimo: rubagimpande, umutwe ndetse n'izindi.

Umuti wateguwe hifashishijwe ikimera gakondo kizwi nk'igikakarubamba, uyu muti ukaba ufasha abantu mu buryo bugiye butandukanye bivura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo irimo tungurusumu, imihaza, inkeri igikakarubamba, capcine ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha abantu kwivura indwara zitandukanye. Uvura n'igifu, rubagimpande, umutwe ndetse n'izindi, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu batandukanye, bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, kugira ngo bakomeze kwivura indwara baba barwaye kandi ubuzima bwabo bukomeze kumererwa neza, birinde indwara ziba zigiye zitandukanye bahuye nazo.